Farumasi y'ubucuruzi irimo ubwoko bw'imiti butandukanye, kandi iri mu tuyetajeri tubiri ako hasi n'ako hejuru.

Umuganga arimo arakoresha ibyuma byabugenewe areba umwana mu jisho, ni umwana mutoya muganga yicaye no ku ntebe.

Isombe n'amateke bihinze mu murima. Hafi yaho ndahabona amabuye. Iruhande rw'amabuye hahagaze umusore.